Ihene nyinshi cyane kandi nziza, ziri ahantu hamwe. Izi hene bigaragara ko ari iza kijyambere kuko zimeze neza cyane. Zifite amahembe maremare, zikaba zinashishe cyane. Ibi bituma abazorora bazishimira kandi bakazikunda.